Iyi ni ifoto iriho abantu bane bagaragara neza n'abandi inyuma batagaragara neza, abo bane bagaragara neza bambaye imipira y'umweru, imbere yabo hari amazi, harimo umugore umwe witeze igitambaro yambaye isaha, harimo n'umuhungu umwe uri kurebana n'uwo mugore afite ikereyo mu ntoki.

Iyi ni ifoto y'umugore; umugore akaba ahagaze, akaba afite umusatsi w'umukara; akaba yambaye isaha, akaba yambaye n'impeta. Ikigaragara imbere hari amazi inyuma hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru ariko handikishijeho amagambo yo mu cyongereza mu ibara ry'umukara hakaba hazengukishijweho utubara tw'umukara n'utubara tw'umweru ducagaguye.

Iyi ni ifoto igaragaza abantu bamanitse akaboko bari kurahira bafashe ku idarapo ry'igihugu, bakaba bambaye imyenda y'umukara, hakaba hariho n'ibara ry'umweru, hakaba harimo umugore wambaye akantu mu mutwe karimo ibara ry'umutuku.

Iyi ni kizimyamwoto iri mu ibara ry'umutuku. Hejuru harimo akabara gakeya k'umuhondo n'ak'umukara. Hasi hariho akandi kabara k'ubururu. Hariho amagambo menshi mu ibara ry'umweru. Inyuma y'ikizimyamwoto hari igikarito, hariho amabara y'umukara, hariho n'amagambo menshi mu ibara ry'umukara.

Iyi ni Kizimyamwoto iri mu ibara ry'umutuku. Hejuru hakaba hariho amabara y'umuhondo ku ruhande hakaba hariho akantu kameze nk'isaha, hasi hakaba hariho akabara gasa n'ubururu kari amagambo menshi mu rurimi rw'icyongereza hasi yako hakaba hari n'akandi kari mu ibara ry' umuhondo handikishijemo amagambo y'icyongereza, hasi yako hakaba hari n' utundi tuntu tw' utubokisi tw' umweru harimo utuntu tujyiye dushushanyije hakaba hariho n' inyajwi bi na si.

Iyi ni mbonerahamwe yandikishijeho amagambo mu ibara ry'umukara, muri ayo magambo hakaba harimo amagambo arimo: Umudugudu, utugari, imirenge, uturere, igihugu, ahagana hasi hakaba hari ibara ry'umuhondo ryandikishijemo amagambo mu ibara ry'umutuku.

Uyu ni umuhanda urimo imodoka iri mu bwoko bw'imodoka zitwara imizigo hakaba hari na moto mu muhanda zitwaye abagenzi, ku ruhande hakaba hari umuntu uri kugenda n'amaguru ku ruhande hakaba hakikijwe n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Uyu ni umuhanda, ariko ahagana ku ruhande h'umuhanda hari amazi ariko asa nk'ayanduye, ku ruhande hakaba haparitse moto, hagati mu muhanda karimo ibindi binyabiziga, harimo imodoka, hakabamo moto, hakabamo n'igare rigiye guparika, iruhande rw'wo muhanda hakaba hari ibiti.